Ni abayobozi bakuru b'igihugu cacu abashinzwe umutekano; n'abandi bari mu nama cagwa se mu mwiherero, wabo kuko badushakiraga iterambere ryiza.

Ikoranabuhanga rigeze kure cyane, polisi iryifashisha mu gusaka n'ibikapu by'abantu bitandukanye kugira ngo habashe kumenyekana umutekano wabo.

Imurika ry'ibikoresho bikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro. Hano urabona ko abantu benshi bicaye bakurikiye ayo mabwiriza.

Daso ni urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano w'abantu. Cyangwa gucungera ibintu, rushinzwe kurinda ruswa n'ibindi byose, byahungabanya iterambere ry'igihugu.

Abantu bicaye mu kidara cyangwa se itente, bateze amatwi ibyo babwirwa , kandi baciye bugufi kugira ngo hatagira utaha atumvishe.

Abayobozi bayobora inama bagomba kuba ari abantu b'icyubahiro, bahabwa mu kwemera kwabo cyangwa se bahabwa bitewe n'imyitwarire yabo.

Abayobozi bavuga bicishije bugufi barakundwa, kandi abayobozi bakora ibikorwa bigirira abo bayoboye akamaro, nabo barabakunda cyane.

Abaturage bari mu nama aho bagezwaho amabwiriza n'umuyobozi ubakuriye, ababwira neza icyo bagomba gukora, kandi bakacyubahiriza bateze amatwi.

Ubu abantu basigaye bicara mu masare, atatse afite ikoranabuhanga rigezweho ugereranyije na kera, aho bicaraga mu bidara by'amashitingi bagiye mu mihango y'ubukwe n'ibindi.

Umutiba wagitse mu giti, kugira ngo uzajyemo inzuki zizatanga ubuki, kandi ubuki ni kimwe mu bintu bikundwa cyane n'abantu batandukanye.

Mu muco wacu umukobwa iyo yabaga yambaye gutya, byabaga bivuze ko yarimbye kandi akaba yambaye kinyarwanda nk'urugori rutegerwa abakuze.

Ababyinnyi ni abantu bashimisha imbaga nini cyane. Ndakeka umuntu wese ubarebye ahita yishima cyangwa se akabyinisha n'igihimba cy'umubiri we.

Umuco wo hambere abagabo baserukanaga inka z'inyambo mu birori bikomeye, mu myiyereko maze bakataka inka z'inyambo n'udutako cyangwa se ingori.

Ubukwe bw'umuco nyarwanda, kera bwahoze bashingira, bashingiraga umukobwa n'umugabo we w'umusore nyine, bajaga mu ndaro. Mu nzu y'ibyatsi numvaga ngo ni ukurongora, ni uko umuhango wa kinyarwanda.

Uyu muco nyarwanda, watangijwe kera n'abakurambere bacu, aho tugenda tubona ko umuco w'ubutore wahereye kera.

Umuco wo kwivuga ni umwe ukundwa n' abanyarwanda, cyane cyane bawukoresha bivuga mu nka z' inyambo, zakundwaga cyane mu Rwanda rwo hambere.

Aha aho bita ku bigega by'i Nyanza, ni hamwe umwami w'u Rwanda, yatekereje ko hagomba kujya hahunikwamo imyaka myinshi, ikazajya igaburira abantu mu gihe k'inzara.

Abacuzi n'abantu bacura ibikoresho biciriritse, twavuga nk' indiga, imyambi, imiheto n'amacumu. Ibyo byose n'ibikoresho bikoreshwa mu buzima butandukanye.

Uno ni umuco nyarwanda wagaragazaga ko umuntu uguhaye amata, atagira ikindi yakwima icyo aricyo cyose, kubera ko umuco wo gutanga amata, ni umuco ukomeye.

Amategura ni kimwe mu kintu abanyarwanda bakoreshaga bubaka, bubaka amazu kandi ago mazu kakaba gararangwaga mu gice cyo mu misozi, hatari nko ku birunga, mu itaka ry'ibumba.

Aba bageni barakora mu muco nyarwanda. Ubona ko kera abanyarwanda banywa amata bagiye gushyingirwa. Ubwo rero n'aba bari kwigana umuco wa kera, uko umusore n'umukobwa baywaga amata.

Amamera ni amasaka yininitswe mu itazi, kandi ayo mamera iyo bakimara kuyinura, aba ari kuryoherera umuntu uri kuyahekenya. Kandi aba afite n'icyanga kiryoshye rwose ku buryo Uba utareba.

Inanga nyarwanda, ni kimwe mu bikoresho bikoreshwa mu kuryoshya umuziki wa gakondo mu Rwanda, kandi Abanyarwanda iyo bayikoresha bumva amarangamutima meza.

Amazu akorerwamo umuco nyarwanda, cyagwa za kera zabaga zisakaje ibyatsi, ari muviringo mbese naho wabyumva wumvise inzu bita muviringo n'imwe bubaka imeze nk'uruziga.

Ikigega kimeze nk'aho gisakaye, uruhiza rwacyo rutuma kitanyagirwa. Ibigega nk'ibi ngibi kera byahunikwagamo amahundo cyangwa se amasaka akumiramo.

Icyatsi gihingwa ariko kivura cyose, usanga gitewe kandi cyitaweho kugira ngo kizavanwemo icyo cyagenewe gukoreshwa vuba.

Aba bagore bikoreraga ibibindi, bashakaga kubigurisha abantu ngo babitekemo ibiryo baryaga bibatunga. Ariko ugu muco gwarashaje ntanuguhari.

Inka z'inyambo, ariko zisa nk'aho zishonje, ntabwo usanga ziberanye no kujyanwa mu masoko, ariko iyo ihaze inka y'inyambo iba imeze neza.

Izi hano ndikubona wagira ni mu mbere mu nzu ya kinyarwanda, ndikubona hashashemo ibirago harimo imihururu myiza itatse amabara, mbese ibi byose biri kugaragaza umuco nyarwanda ko ari mwiza kera kera hataraza.

Amafoto agaragaza inzego z'ubuyobozi, ziri gukora umuganda hamwe n'abaturage mu gace bateguye, urabona ko bakupakupa ibyatsi bakahasiga hameze neza.

Umuntu wicaye yanitse amatako yose yose mu muco nyarwanda ntabwo bamwemera kubera ko bamufata nk'aho ari indaya.

Abantu kera bahigaga inyamaswa bakoreshaga, bakoreshaga umwambi n'umuheto gugahitana inyamaswa bashaka kurasa. Abantu babagaho mu buzima buciye bugufi.

Mu muco wa kera, Abanyarwanda bahekaga abandi igihe bagize ikibazo cyangwaga se barwaye. Babahekaga mu ngobyi, ntabwo ambiranse zari zakabayeho, ubwo rero ingobyi ya kera ya kinyarwanda yasimburaga ambiranse

Umwami n'abagaragu bamufashaga inkono, bamufashaga ingabo, baramuhekaga umuco Nyarwanda wari ushingiye ukubaha umwami.

Izi ni intore ziri guhamiriza, mu muco nyagwanda dushingira ku kubyina ko ni ikintu gisusurutsa abantu. Ubwo rero barahamirizaga bakabyina, ikondera rigatsikimba.

Umuco wa kera ugaragaza abantu bavuza ingoma cyangwa se bababyina, cyane bahamiriza. Umuco gakondo wubahwa cyane n'abantu b'ingeri zose aho bava bakagera.

Ugu ni umuvure barimo gukama ibitoke bashaka gukuramo umutobe kugira ngo bagwengemo urwagwa runywebwaga n'abanyarwanda.

Amahoteri yo mu karere ka Musanze aratangaje. Ariko iyo ugeze nko kuri Bisate roji, usanga yubatse mu buryo bw'ibiraro, busekeje, bwa kera.

Umwami yambaraga imyenda myiza cyane akarenzaho n'ikoti, n'umwamikazi akaba afite umusatsi w'uruhanika kandi akarenzaho n'umwenda. Cyokora aba bo ni ab'ejobundi uri kubona ko bari kunywera no mu birarahuri.

Umuco wo kubyina watangiye kera cyane，hashize nk’imyaka myinshi rwose，abanyarwanda bakunda igitaramo cy'imbyino nyarwanda.

Umuco wo kunywa amata watangiye kera, aho abanyarwanda bagiraga umuco wo gucunda mu bisabo, ndetse abandi bakayanywera mu nkongoro zibajwe mu ibiti.

Abantu ba kera bambaraga impuzu. Ni ukuvuga ngo impuzu ni imyenda yambarwaga ikingirije ibice by'imyanya y'ibanga, imyambaro yambarwa hose itaraza.

Isuka ni kimwe mu bikoresho ,byifashishwa kuva kera kugeza nan'ubu .Bigakoreshwa igihe bari guhinga ibirayi, ibigori n'amasaka.

Umuco wo kubyina muri aka gace kacu, ufite agaciro cyane, kubera ko utanga amafaranga ku bawukora, kandi na bo ubwabo bakishima.

Agaseke gafite umuco kabumbatiye mu muco wacu nyarwanda, ni yo mpamvu abanyarwanda aho bava bakagera bose bagakomeraho, kubera ko gafite icyo gasobanuye mu muco.

umuco wo kubyina ni umuco ukundwa n'abantu b'ingeri zose, kandi ibirori ibyo aribyo byose byagezemo kubyina biraryoha. Urugero twatanga nk'aho bita ku Byiwacu, n'ahandi henshi.

Umuco wo kuvuza ingoma abakobwa bawize vuba. Kera wakorwaga n'abagabo nibo nakuze mbona. Naho ubu nsigaye mbona n'abakobwa bazi kuzivuza kandi bazivuza neza cyane.

Aha ni i bwami abantu bajanaga amakoro, hanyuma bageragayo bagatarama bakabyina kandi babyinaga imbyino nyarwanda ziryoshe.

Amayogi ni kimwe mu bikoresho bikoreshwa mu kubyina, kandi amayogi iyo bakoreshejwe neza aryoshya n'imbyino, uwo ari we wese akumva araryohewe n'iyo njyana ari gutanga.

Umuco wo kubyina wo ugaragaza ko u Rwanda rushyigikiye inka, ariyo mpamvu abanyarwanda babyinaga na n'ubu babyinaga bateze, batanze amaboko hejuru, abandi bakoreshaga cangwa se bakoresha, bakoresha na n'ubu ibisabo.

Umwami yabaga akikijwe n'ingabo ze igihe cya kera, kubera ko ingabo zabaga ziri mu rwego rw'abisikoti barinze afande.

Kera bengaga nka gutya ibitoki, bikavamo umutobe uryoshye. Abantu bawunywaga banezerewe kandi baseka.

Inka z'inyambo ni inka za kera cyane mu Rwanda zifatwa nk'inka z'umuco nyarwanda kubera ko imyitwarire yazo ni imyitwarire myiza cyane ugereranyije n'izindi.

Abagabo babyinaga bakunze kuba ari abagabo b'ingufu, mbese nawe ukabona ko kubyina bibabereye. Baba ari ab'ibigango, barya ukabona ko bizihiwe.

Umuco wo gushyingira, kera habagaho umuco witwa gusaba no gukwa, aho ababyeyi bajya baje gusabira umuhungu ugiye kurongora, bafite uduseke dukurikiwe n'inzoga, inyuma hagakurikiraho abagize umuryango.

Ugu ni umuco nyarwanda gushingiye mu mbyino kandi gushimishaga abantu bose bagwitegereje neza, kandi bafite n'amatsiko yo kureba uko bose barahindukira.

Ugo go ni umuco nyarwanda urabona ko kera abantu barabyinaga kandi noneho kubyina ni ikintu gishimisha abantu muri rusange. Ubwo rero urumva ko umuco wacu gwahozeho go kubyina ni mwiza rwose turawushyigikiye.

Umutsima w'uburo cyangwa umutsima w'amasaka ni kimwe mu bihingwa byakundwaga cyane mu Rwanda, aho bafataga irobe ry'umutsima bakaririsha imboga.

Icyo ndabona ari igikoresho cy' ikoranabuhanga cyaba kigezweho muri iyi minsi, ariko ntabwo namenya icyo kimaze, n'ubwo ndikubona kimeze nka konteri twandikamo umuriro.

Igikoresho cy'amashanyarazi gifite agaciro ,ubona ko gifite uko gikoreshwa mu gutanga ingufu cyangwa se ibindi bitandukanye.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga, gikoreshwa n'umuriro. Ese iki gikoresho ugira ngo si igikoresho gikomeye gifunzwe n'amaburo?

Amasaha agezweho, ubu akora ari fime. Mu gihe andi ya kera yazanaga umuziki. Nk'isaha y'umuziki cyangwa zimwe za disiko za kera, ariko ubu ni amasaha meza cyane ya fime.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga gikoreshwa mu itumanaho. Kera bacyitaga tuvugane. Ni ukuvuga ko gikoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi.

Iki ndabona ari nk'igikoresho c'ikoranabuhanga bakoreshaga mu mahoteli kandi gishobora kuba gifite n'akamaro kanini.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga kimeze nka pulize nk'aho bakupira umuriro, cyane cyane kiba kigaragaza n'umuriro uri gutambuka uko ungana.

Urukuta ruriho amabuto atatu iy'umutuku, iy'iroza n'iy'icyatsi . Wagira ngo ni feruje z'i Kigali

Mu ruganda haba hari ibikoresho bikaze, nk'izi nsinga, urabona ko zicometse mu maburo utamenya ngo akorerwa iki, ariko byose byose ni ikoranabuhanga.

Iyi ni imashini isohora impapuro z'ikoranabuhanga, urabona nk'ubu niba umuntu afotoza urupapuro rukaza rwanditsweho ibisa nk'ibyo yari afite n'iyi mashini ni byo ikora.

Isoko ry'ibiribwa ryo mu mujyi wa Musanze, ni rimwe mu masoko yubatse manini aboneka mu ntara y'Amajyaruguru, kubera ko niryo rigari cyane.

Ku bitaro turagerayo turembye, muganga akatwakira, akaduha umutima mwiza. Wari uzi ko n'umutima mwiza w'abaganga, watuma n'abarwayi bataha bakize neza?

Imihanda igezweho yo mu mujyi. Itatse amabara, kandi ituyeho na za karitsiye zubatse neza, urabona amazu meza cyane, akikije n'imihanda.

Abubatsi bubaka imihanda. Iyo bageze aho barubaka ikiraro, baritonda bakabanza bahakorera inyigo, kandi ntibapfe guhubuka. Kubera ko kiba cyagira ingaruka nyinshi.

Aha ni ku kibuga c'umupira cangwa cangwa se k'umurenge mu caro baba bari kwerekana se ibiro by'umurenge cangwa ni ibiro by'akagari?

Iyi ngoro rero uko ndi kubona njewe ndikubona wayigereranya, naho twumvaga mu kiliziya aho dusengeraga, cangwa si ibwami ku bayobozi bakuru.

Aha hantu hagaragara ko ari mu mujyi rwagati, kubera ko uyu mushoferi w'imoto ndikubona buno ku ruhande ari kugenda muri kaburimbo kandi ntabwo amazu nka gariya gakubakwa mu caro.

Ikigo cy'imirimo cyegereye igitari kinini cyihuse, hagiyemo n'umuhanda ukozwe mu mabuye menshi , n'umucanga.

Umuhanda wa kaburimbo unyuramo urujya n'uruza rw'abantu. Hari ababa bagenda n'amaguru, hari ababa bagenda n'amagare, mbese n'ab'imodoka, cyokora iyo bibaye nijoro amatara arabacanira.

Aba bagore bari mu rusengero, baririmbaga mu bitabo, harimo n'abazungu bambaye bakenyeye imyenda myiza, yaryoshya ubukwe.

Umuhanda gugendagamo imodoka nini n'amashuri gatuye impande ku go muhanda hakikije n'umuriro gw'amashanyarazi.

Ibendera rizamurwa ahantu hari igikoresho cyangwa se igikorwaremezo gihuriraho abaturage benshi kikabagirira akamaro nka za Banki , ibitaro n'amashuri.

Uno ni umurenge cyangwa ikigo cy'amashuri, cyangwa se kikaba cyaba n'ibiro by'akagari cyangwa ikigo cya Leta gikorerwamo politiki.

Inzu nziza cyane, y'ibirahuri ya, konoshi yubatse nk'ibiro by'cyitegererezo. Nubwo imbere yayo yicaye abantu, ariko ntabwo wamenya ngo ikorerwagamo ibiki.

Abantu bakurikira inyigisho zifite akamaro, bagomba kuba bicaye, mu nzu nziza cyane, kandi nzima.

Kubaka amashuri, Abanyarwanda bakunda guhera mu fondasiyo bagapima indara neza, kugira ngo inzu ikomere itazariduka.

Ikiraro cy'ibyuma kirakomera kubera ko nk'iyi imodoka iba ikinyuzeho ntabwo cyapfa gutebera kubera ko kiba kitabasha no kujegera.

Inyubako zikorerwamo n'ubuyobozi, urugero nko ku karere haba hari etaje, ugasanga umuyobozi afitemo ibiro bye agomba kwakiriramo ibibazo.

Umushumba, umushumba wa kiliziya gatotulika arubahwa cyane, cyane rwose. Cyane cyane tubona nka ba Musenyeri n'abapadiri bose n'ababikira. Muri rusange ni abantu bubahwa kubera ko baba bahagarariye Imana.

Hari abaturage bakoresha pano soleri kugira bacane mu nzu, mu gihe nta muriro wa REG bafite iwabo kandi bigatuma n'abana biga neza.

Ibiro bya Efuperi Efeperi ntabwo namenya, haparitse yo n'imodoka, byubatse ku muhanda wa kaburimbo, ni mu ruhande ruganaga rugana iburyo.

Aya mashuri yigamo abana b'incuke na bo mu myaka ibanza kugira ngo bamenye ubwenge, kandi kera abana bigaga mu mashuri y'ibisika, ariko ubu ng'ubu basigaye bigira mu mazu meza.

Inyubako zigendanye n'icyerekezo u Rwanda rwihaye, kubera ko urabona ko zubakishije amatafari, kandi zikubakishwa n'amarangi meza, anoze cyane.

Inzu nziza cyane, igaragaza umuco ugezweho muri iki gihe wo kubaka amazu meza, anoze kandi yishimiwe n'abantu benshi.

Salo yicaramo abantu batatu, cyangwa se ifite imyanya itatu, ni ukuvuga ngo isa n'aho yagenewe umuryango umugore umugabo n'umwana.

Ibiro by'Akagari ni bimwe mu rwego rwa Leta rureberera abaturage kugira ngo babashe kubona ubuvugizi mu byabo, ndetse no ku burenganzira bwabo.

Ago gose se ni gapano ni za panu kuko zizana imirasire ingufu z'izuba zigakoreshwa mu gukongeza mu nzu ukoresheje urumuri.

Aha nshobora kubona wagirango ngo ni uruganda rwenga inzoga rwa Bralirwa, ariko nitegereje ,ashobora kuba ari amangazini bacururizamo ibikoresho byo mu nganda

Imbuga iteye gutya y'amabuye, yashobora gutera ikibazo ku bana bayinyuzemo bari gukambakamba. Kuko abana bakambakamba ntabwo baba bazi ikibi n'ikiza.

Amamodoka aparitse mu kibuga cy'umupira cyangwa se ku mbuga y'inyubako , zikorerwamo akazi gatandukanye zikunze kurindwa n'abasekirite.

Iyi nzu yubatswe wagira ngo ni amashashwara yakoreshwaga bari kwanika ibireti, ariko nanone urabona ko iri munsi y'intusi.

Ikigo cya polisi y'igihugu, cyo ni ikigo gikora mu buryo buzwi cyane cyinjiriza leta, amafaranga ashobora kwifashishwa mu bintu bitandukanye.

Aba bantu uko ndi kubabona bicaye mu nama bateze amatwi umuyobozi ,ashobora kuba arikubabwira uko gahunda ya leta ivuga kandi bavugaga ko iyo umuyobozi ari kuvuga ugomba kumutega amatwi nkuko bameze.

Uburenganzira bwa muntu burakurikizwa mu bucamanza bwo mu Rwanda, kubera ko nta muntu urengana, iyo yagannye inkiko, bamucira urubanza uko biri ngombwa.

Abaturage bumva inama z' abayobozi babo, bakunze kugendera ku mategeko, kandi bagakora icyo leta ibashakaho, ni ukuvuga ko rero twese twese tugomba kumvira abayobozi bacu.

Inteko y'umuturage , ni kimwe mu byo Leta yashyizeho mu gukemura amakimbirane yoroheje yabonekeye mu ngo cyangwa mu bavandimwe . Na none kandi kwegera ubuyobozi abaturage bagahabwa amakuru.

Abanyonzi ni urwego rw'abantu batwarara abagenzi ku magare. Kandi abo banyonzi babona amafaranga abatungira ubuzima.

Gano matagisi gagaragaza igihe ca kera, gwose gamaze gusaza kubera ko gageze mu iri terambere turimo ntabwo gagikoreshwa ubu hari gukoreshwa kwasiteri.

Mu bamotari bamotara, usanga umubare munini w'abamotari ari uw'abagabo, undi mukeya uw'abagore batinyutse na bo bakinjira mu kazi.

Njewe uko mbona aha ngaha, ndi kubona wagira ngo ni kuri sitasiyo. Aho uriya mukobwa arimo gushira mu modoka esansi cangwa se peterori.

Imodoka yitwa kigali sitituru, ni imodoka ikoreshwa mu mujyi wa Kigali, itwara abakerarugendo cyangwa abantu batandukanye, bakagenda batembera bareba umujyi.

Gare ni kimwe mu bikorwa remezo by'igihugu, byinjiza amafaranga nk'ibindi byose. Ariko na none icyiza cya gare, nuko ari umuntu uwo ari we wese, abona aho ikinyabiziga agifatira ku buryo bworoshye.

Abamotari bamotara mu cyaro babona amafaranga yabo neza kubera ko umuntu wo mu cyaro aba afite amafaranga menshi kandi iyo bamutwaye abasigira inoti yakoreye mubyo yahinze.

Mu mujyi wa kigali habamo imodoka nini cyane, zikoreshwa zijyana abagenzi mu duce twaho dutandukanye, hanyuma bamwe baricara abandi bagahagarara cyangwa bakunama.

Imodoka zitwara imyanda baba barunze ahantu, zigenda zijya kuyifata mu duce dutandukanye, aho abaturage baba bayimennye.

Abanyonzi ni abantu batwara amagare，ariko bafite intego yo gutwaraho abantu，kugira ngo babavane mu gace aka n’aka , bajyane mu kandi aka n'aka.

Volukano egisipuresi, ni bisi zitwara abagenzi bava mu ntara bajya mu zindi, kandi zigatwara abantu benshi bashobora kurenga na mirongo inani.

Umumotari uhetse umugore, kandi kumotara byo ni umwuga ufitwe n'abagabo benshi muri iki Gihugu, kuko moto ni igikoresho gitwara abantu mu buryo bwihuse.

Aga ma Dayihatsu gagemuye ibiryo, hashobora kuba ga bijanye ku mashuri, cagwa gabijanye mu masoko i Kigali kubigurisha, bishobora kuba ari ibirayi bavanye mu mirima bahingaga.

Umuco wo kwisuma, ukunze gukorwa cyane cyane n'abagabo. Ariko aho bigeze, usigaye warabaye umuco ugira amafaranga none wagezemo n'abagore.

Imodoka nini zikora mu gutwara abantu n'ibintu zo ziva mu majaruguru zerekeza i kigali, abajagayo baba bagiye gutembera cangwa se gusura imiryango yabo.

Mu Rwanda ubwoko bw'amamoto ni bwinshi cyane, ariko muri iki gihe ubugezweho n'ubwoko bukoreshwa n'amashanyarazi, hanyuma bagakoresha vitesi gusa.

Indege yubatse mu buryo butangaje cyane, kubera ko abantu bo mu cyaro iyo bayibonye baratangara, ariko nanone icyiza, ni uko iyo bashizwe bayigezemo barishima.

Aga mabisi gwose gwose ni aga ritiko kandi iyi modoka ni imodoka nini yigenda irihutaga pe kubera ko ntago itindaga mu mayira.

Ku kibuga cy'indege abenshi ntabwo bahazi. Kandi mu kuhagera, bishobora kuba bifatwa nk'ishema kubenshi babibona. Ariko iyo bahawe amahirwe bakahagera, aho abenshi turaciriritse.

Ubu ni ubwato aho abantu bashobora kubugendamo, cangwa se batabugendamo bagakoresha umuco wa kera, uko abantu bogaga bagendeye, bakoresheje ingashi.

Ikinnyoteri cya moto cyaka iyo umushoferi agiye gukata. Urugero nk'iyo agiye gukatira iburyo aracyatsa, kiri kugenda kinnyatsa rimwe rimwe.

Iyi romoroke itwara esansi cangwa amazi, cangwa amavuta iyavana, ishobora kuba iyavanaga mu gihugu kimwe iyajana mu kindi gihugu.

Abo bamotari bamotara mu majyaruguru, abenshi bakomoka mu cyaro. Abanyamujyi ni bake kubera ko n'abanyacyaro bahumutse, bamara kugura moto zabo bakazigendaho.

Gare ya Kiramuruzi, ni imwe muri gare zikoze ku buryo zakira imodoka nyinshi. Hari rero n'uduce twinshi tutari twubaka gare.

Amafoto yo mu ndege agezweho cyane, murabona ko hagaragaramo n'ifoto z'ingagi mu birarahuri cyangwa se mu mashini zometse ku ntebe z'izo ndege.

Akenshi umupira w'abakobwa ukunze kuba uryoshye, kubera ko uba ubamo n'abantu bakunda gusetsa, ukurikije n'intege z'uko baba bitwaye.

Uyu muco waturutse mu mahanga wo gukora siporo, aha uyu mukobwa arimo aratera umuhunda ,kandi wavuye mu bihugu by'abazungu.

Umukino wo gusimbuka, ukunze gukinwa n'abakobwa b'inkumi basa n'abafite imbaraga, cyangwa abasore bafite imbaraga, bageze mu kigero cy'imyaka nka makumyabiri n'indi.

Isiganwa ry'amagare riherutse kubera mu Rwanda. Nubwo ritwarwa cyane cyane n'abantu b'abanyamahanga, ariko n'abanyarwanda baba bagerageje cyane.

Abantu bambara amatiriningi ameze atya, abenshi baba ari abakozi cyangwa se abantu bagiye muri siporo runaka zitandukanye. Urabona ko Nk'aba bashobora kuba ari ikipe.

Aga mafoto garagaragaza abantu bakinaga tenisi, kuko nibo mbonaga barakinisha umwuko ugungugu, naho uyu ni umukoci uri ku batoza.

Abakobwa bakina umupira, bose ni abakobwa bakiri batoya ubona ko bafite ubushake n'imbaraga n'umwete n'umurava.

Aba basore ndabona bari muri kurusi y'amagare kandi siporo ni kimwe mu mukino abantu bakinaga bakishima cane.

Pisine ni kimwe mu bwogero bushimisha abantu, iyo bagiye gusura amahoteri atandukanye, aho umukiriya aba ashaka kwinezeza iyo ariyo.

Umukino wa basiketeboro ubonekamo ingufu, ku buryo umuntu aba ahirika undi, kugira ngo akunde amutsinde. Ubwo rero uwo mukino ukinwa n'abantu bafite imbaraga.

Uyu muhungu ari gusogera igare, kandi ni umukino gukundwaga mu majaruguru. Niho hari ikigo c'ago magare gose guja mu Kinigi.

Umukino witwa handiboro, ni umukino ukundwa cyane cyane n'urubyiruko rw'abasore n'inkumi, kubera ko ugaragaza gukoresha ingufu nyinshi.

Umukino wa hendiboro ni umukino w'ingufu, ntabwo wakinwa n'abantu bajebetse, kubera ko usaba kuba urimo n'imibare myinshi cyane.

Abantu bakora siporo bararamba ,kandi ntabwo bapfa kuvunika, kubera ko baba bafite amagufa akomeye ,kandi afite n'ingufu.

Umukinnyi wa tenisi. Tenisi ni umukino ukinwa mu mujyi mu caro nto nari nagubonayo, kubera ko ugo mukino niho nagubonye ino iwacu ntago ndabonayo na rimwe.

Umukino wo gusimbuka ukunze gukinwa n'abantu b'urubyiruko, kubera ko baba bakibasha kwisama kandi bagasimbuka cyane, ubwo rero na hacu twese.

Abantu bicaye hamwe baganira ariko basa nkaho bambaye imyenda ya siporo, mbese batuje bafata akayaga baruhuka.

Umuntu yoga mu kiyaga yari yambaye ndabona yambaye, amarinete cyangwa se amadarabundi y'umukara ya fime, arimo aragenda.

Umugabo uri gukina tenisi, ariko wagira ngo afite imisatsi nk'iy'abagore, izinze ku kumutwe we.

Umupira wa volebalo iyo ukinanywe morale, abakinnyi bawukina kenshi bakunze kuba ari abasore bagatera ibiro binini.

Umupira wa vore ni siporo ikunzwe cyane n'abantu b'ingeri zitandukanye, mu bavugwa harimo urubyiruko cyane cyane n'abantu bakuze bakeya.

Uyu muhungu ndabona ashobora kuba ari umukinnyi wa tenisi, kandi ni kimwe mu mikino igorora, yagororaga umubiri n'ubu.

Uyu mukino wa tenisi ukundwa n'abantu benshi. Cyane cyane mbona ukundwa n'abazungu, n'abagabo n'abagore, mbese bamaze kujijuka.

Amakipe g'abakobwa garimo gari gukina hendiboro mu marushanwa, buriya aba noneho bashaka kugira ngo bagire ubuzima bwiza bw'ejo hazaza.

Umukino wa basikete ukinwa n'abantu batandukanye, aba nabagabo bari muri siporo, uyu mukino kandi ukunze ukunzwe na benshi.

Umukinnyi ukina handiboro, akunze kuba ari umusore ufite imbaraga, cyangwa se urubyiruko rwiyumvamo ako kayihayiho ko gukina siporo.

Ni abakinnyi bakina batera ibiro, bakunze kuba ari n'abantu bashabutse, kandi batagira n'umujinya kubera ko babikora bishimye.

Umuhanda wo mu cyaro urimo amabuye y'amakoro, kandi uwo muhanda ni muto, ku buryo wagendamo imodoka imwe.

Iyi nzira isa nk'aho abayigendagamo ari bake kubera ko yabaye igisibanzira, ibyatsi byararaye kandi umuhanda gutuyeho abantu guba guharuye.

Aga ni amapave gegereye umuhanda wa kaburimbo, abantu bagagendagaho kugira ngo imodoka zitabagonga, ni yo mpamvu tugomba kuhububahiriza igihe turi kugenda mu guwo muhanda.